Ikirango kigaragaza ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe uburyo ziri gutera imbere mu magambo arambuye ikirango kigaragaza ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru bambaye impuzankano y'umweru bakurikiye urimo kubigisha bisa nkaho ari kubaha amahugurwa harimo n'uri kubafotora.